Umwuga wo kubaza uba mwiza cyane, kubera ko abana bawize baba bahisemo neza, kubera ko abantu bakenera ibyo kwicaraho, bakenera utabati, bakenera ibintu byinshi. Ubwo rero iyo wawize, ubona akazi.

Kwiga ibintu bijyanye no gukanika biba byiza biba ingenzi kuko ni ibintu bikenerwa cyane nko ku bantu bagira amamodoka hari igihe apfa bagakenera abantu bo kuyakanika, rero iyo wabyize baraguhamagara bakaguhereza amafaranga warangiza ugakora ayo mamodoka.

Kwiga biba byiza cyane kubera ko bituma abanyeshuri batajya mu mihanda ngo babe za muyibobo bakajya kwiga, kandi ibyo bigaga bigirira igihugu akamaro. Ariko iyo bize biba byiza iyo babahaye ibizamini, kugira ngo babarebe mu mutwe yabo cyangwa se niba barabifashe cyangwa batararuhiye ubusa.

kwiga biba byiza cyane, kubera ko bifasha abanyeshuri ,bifasha n'abana ,bifasha n'ababyeyi kubera ko umwana utagiye mu ishuri rwose ntabwo aba afite ubumenyi bwiza, hari igihe usanga yabaye mayibobo, kandi iyo baba bari kwiga biba byiza, n'iyo n'umwana atumvishe ikintu akabaza mwarimu akabasha gusobanukirwa bigiye kure.

Kwiga kuririmba biba byiza kandi biba ingenzi, kubera ko ni impano ikomeye cyane, abantu bose badapfa kugira kandi abantu baririmba barabakinera ahantu hatandukanye, mu birori mu nama ,bagasusurutsa abantu, rero iyo ubikora nk'akazi, biragufasha bikaguha amafaranga yo kwikenuza.

Kwiga ibintu byo gufata amajwi no gufata amashusho biba byiza, kubera ko biba bikenewe ahantu hatandukanye, abanyamakuru barabikoresha, abantu baba bakeneye gukora ubukwe barabikoresha, iyo wa byize bikugirira akamaro, kuko abantu baba bagukeneye, kandi baguhereza amafaranga menshi cyane, ayo mafaranga akagufasha kwikenura, ukagura utundi dukoresho uba ukeneye.

Kwiga amasomo y'imyuga biba byiza kandi biba ingenzi kubera ko birafasha, nk'abantu babyiga ntabwo babura akazi, cyane cyane nk'akangaka ko kubaza, kubaza birafasha, abantu benshi bakunda intebe, bakunda kuzigura, ameza barayagura, rero iyo ugize amahirwe ukabona abantu babiguhereza ,ubikora neza nawe bakaguhereza amafaranga.

Ubwubatsi buba bwiza cyane kubera ko bugira akamaro, bigirira akamaro ababikora, kuko iyo babikoze babona umusaruro, udufaranga bakikenura mu byo baba bakeneye, kandi n'abo baba bari kubakira rwose babona ibintu byabo bisa neza. Ukabona bishimye biterwa nuko baba bazi kubaka bagubwa neza, wumva inzu yawe nta kintu yaba. bakora n'ibitaro, bubaka ibintu byinshi cyane

Abanyeshuri iyo bageze mu mwanya wo kwidagadura birabashimisha cyane, bituma biga bafite umunezero mwinshi cyane, bakiga bakabifata rero iyo abanyeshuri bagize uwo mwanya biba byiza pe.

Abaganga baba beza, kandi baba ari ab'ingenzi muri ubu buzima, n'abantu baba bifuzwa n'abantu benshi, kandi b'ingirakamaro rero abaganga nibo bantu baba bafite agaciro kanini cyane, kuko bafite ikintu bamaze mu buzima bwacu, batabaraga ubuzima bw'abantu rero abaganga ni intwari cyane.

Ubwubatsi ni umwuga mwiza cyane, kandi utunze benshi ufasha abantu bose, ni ibintu bifasha abubaka ndetse n'ababa bakeneye kubakisha, kubera ko baba bakeneye amazu bakeneye ibintu byinshi kandi n'abo bari kubaka bakeneye amafaranga, kandi akabafasha mu mibereho yabo ya buri munsi.

Amashuri y'inshuke aba meza cyane, kubera ko iyo umwana agiye kwiga agatangiriramo, avamo azi ibintu byinshi, hanyuma akajya muri pirimeri, ibindi byose ari ugukozaho, ubwenge bukaba bwiza cyane, ugasanga nta bwo biri kujya bigora abarimu.

Biba byiza iyo abanyeshuri bageze, mu mwanya wo gukora ibintu bibashimisha, nko gushushanya ibintu nk'ibyo ngibyo bigiye bitandukanye, rero birabafasha mu myigire yabo baba bishimye, hanyuma nabo bakiga bagashyiraho umwete, bakabona umusaruro uhagije, hanyuma mbona amashuri yabo, azabafasha mu kindi gihe.

Abaganga baba ari abantu beza turabakunda, kubera ko batabara ubuzima bw'abantu. Rero iyo wize ubuganga uba wize neza, uba wize ibintu bifite akamaro, bizagufasha kurokora ubuzima bw'abantu, kandi bikaguhereza n'amafaranga ukabaho.

Mudasobwa ziba nziza cyane kandi zigira akamaro, ziba zikenewe kuko zifashaga cyane, rero biba byiza iyo n'abana bato bazize kubera ko zikora umurimo umuntu atapfa gukora mu gihe gito cyane kandi zirakora zikora ibintu byinshi.

Kwiga mudasobwa biba byiza kubera ko birafasha, nko abanyeshuri biba ari ingenzi cyane, kuko mudasobwa biri mu bikoresho bikunzwe gukoreshwa cyane kandi bigira akamaro. Rero iyo uzi kugikoresha hari ahantu uba wagera bikagufasha mu buryo bwiza kandi bumeze neza.